Abantu bari mu nama, umwe muri bo abahagarariye ari kubaganiriza ku byo bakora kugira ngo abana bose babashe kugira ubuzima bwiza. Imbere y'abo hari ishusho yanditseho Unicef for every children hop, baganira ku cyo bakora kugira ngo abana bagire ubuzima bwiza kandi bafite icyizere cy'ejo hazaza.

Abagore benshi batandukanye bari gufata ifoto y'urwibutso, biganjemo abagore bakuze bavuye mu mahugurwa, bishimiye amahugurwa bavuyemo kandi biteguye gukora ibyo bigiye muri ayo mahugurwa.

Abaganga bari mu cyumba bavuriramo, bari kumwe n'abarwayi, bose bambaye udupfukamunwa, bari kubatera imiti, kugira ngo ibarinde indwara zigiye zitandukanye, babashe kubaho bafite ubuzima bwiza buzira indwara, kandi bubayeho neza.

Abantu benshi bagiye batandukanye bari mu cyumba cy'inama, bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima, bashakira ibibazo bigiye bitandukanya ibisubizo ndetse n'uburyo bakwitwara muri ibyo bibazo kugira ngo bibashe kurangira kandi neza.

Umwana n'umubyeyi bishimiye kuba bavuye kuvoma amazi meza ku mavomero hirya no hino, aho bagiye bayabashyirira bakaba babayeho ubuzima bwiza banywa amazi meza, batanywa amazi yanduye cyangwa arimo imyanda, bikaba bibafasha kubaho neza mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko amazi turayakenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abagore bizihiye bishimye, bateze amaboko bari kubyina imbyino za kinyarwanda, bishimira ibyiza bagezeho n'ibyo bateganya kugeraho, bari ahantu mu cyumba cy'inama.

Abana bakiri batoya bishimye bari gukaraba intoki zabo n'amazi meza n'isabune bishimiye ko basigaye babona amazi meza hafi yabo kandi bakabasha gukorera isuku umubiri wabo igihe babishakiye.

Abanyeshuri bambaye iniforume bishimye bari gukaraba ibiganza byabo n'amazi meza asukuye bibafasha kugira ubuzima bwiza ndetse bikabarinda n'indwara zijya zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Ahantu hari abantu benshi habereye ibikorwa bihuza abantu benshi hari imodoka y'imbangukiragutabara, yiteguye gutabara igihe hagize umuntu uhuye n'ikibazo ndetse n'abayobozi bashinzwe umutekano, kugira ngo bagume gucungira umutekano abantu bose bitabiriye icyo gikorwa.

Uruganda runini rukora imirimo yo gutunganya amazi no kuyasukura n'ibikoresho bifashisha basukura ayo mazi n'abantu bakora muri urwo ruganda basukura amazi, kugira ngo abashe kugera ku baturage ameze neza.

Abaturage bagiye batandukanye biganjemo abana baje ku ivomero bitwaje ibikoresho babifashisha bavoma, bari kuvoma amazi meza kandi asukuye, bari kumwe n'umupapa uri kuberekera uburyo bavoma ayo mazi batayahumanije.

Umukobwa ukiri muto, wishimye, uri kuvoma amazi meza ku mavomero yabegerejwe hirya no hino aho bagiye batuye, akabasha gufurisha ayo mazi meza kugira ngo bajye bambara imyenda isukuye ndetse akayakoresha n'utundi turimo tugiye dutandukanye two mu rugo.

Ibikoresho byo kwa muganga birimo inshinge n'umuti biteguye kuba batera umuntu kugira ngo bamuvure indwara arwaye cyangwa bamugabanyirize ubukana bw'iyo ndwara arwaye, akomeze kubana na yo ariko afite ubuzima bwiza.

Umuyobozi uri imbere y'abantu bari mu nama, arikubagira inama y'uburyo bagira ubuzima bwiza buzira umuze kandi bateye imbere, bafite ubukungu bakabaho ubuzima bwiza bishimye buzira uburwayi, buzira n'ubukene.

Umubyeyi n'abana be bishimiye kuvoma amazi meza asukuye, ubwo amazi ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, aturinda indwara zigiye zitandukanye kandi akadufasha kubaho neza twishimye.

Umusore uri kumwe n'umwana ari kumupimira ibiro kugira ngo arebe imikurire yiwe niba ihagaze neza cyangwa nimba umwana adafite imikurire myiza, yaba mu bijyanye n'ibipimo, mu bijyanye n'ibiro afite, bikurikiranyijwe n'imyaka afite.

Abasore n'abakobwa bakiri bato bambaye imyenda y'abaganga, bari gufata ifoto y'urwibutso bavuye mu mahugurwa abashishikariza uburyo bagomba gutanga serivisi nziza inoze kandi mu gihe cya nyancyo.

Ababyeyi n'abana babo bagiye ku mujyanama w'ubuzima kugira ngo abashe kubafasha, abahe imiti yafasha abana babo mu mikurire myiza, ndetse inabavure indwara zigiye zitandukanye bagiye barwaye, bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umwana uri gukaraba amazi meza n'isabune ku mavomero yagiye abegerezwa hirya no hino aho batuye ndetse no ku bigo by'amashuri, aya mazi ni ingenzi mu buzima bwacu kuko adufasha mu kwisukura, igihe twahuye n'imyanda igiye itandukanye.

Abagore n'abagabo, bari gufata ifoto y'urwibutso, bavuye mu mahugurwa abasobanurira uburyo bagomba kubona serivise z'ubuvuzi, igihe babukeneye ari bwo nko kubona uko bagera aho bivuriza, kubona abaganga babafasha mu kubavura n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abana babiri b'abakobwa bishimiye kuvoma amazi meza asukuye ku mavomero yagiye abashyirirwa hirya no hino hatandukanye, abegereye kugira ngo babashe kugerwaho n'amazi meza kandi asukuye, bibafashe kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Umuyobozi wa amera health africa jacqueline avuga ko abantu twese tugomba gukora ibishoboka kugira ngo buri muntu wese aho aherereye abashe kubona ubuvuzi bwiza kandi ku gihe kandi igihe cyose abukeneye.

Abaturage benshi bagiye batandukanye bivanzemo abagore n'abana ndetse n'abagabo, baje ku nzu itangirwaho serivisi zigiye zitandukanye z'ubuyobozi, mu nama yo kugira ngo barebe icyateza imbere ubuzima bwiza, bose bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umugore uvuye mu bikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ufite ikarita igaragaza ko avuye mu bikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, wishimiye ko icyo gihe cyabayeho ariko ubu ngubu kikaba cyararangiye abanyarwanda tukaba tubayeho neza mu mahoro, nta kibazo na kimwe dufite kijyanye n'umutekano cyanga kijyanye n'imibereho.

Umupapa ufite ibibazo bimukomereye. Bikaba byamuteye agahinda gakabije, guhisha amarangamutima yiwe bikamunanira aho abandi bagabo, barira amarira yabo atemba ajya munda, we kwihangana byamunaniye, asohora amarangamutima yiwe ararira bikabije.

Abantu benshi batandukanye, biganjemo abagore n'abagabo, bari gufata ifoto y'urwibutso bishimye, bavuye mu mahugurwa, bishimiye ku buryo bigiye muri aya mahugurwa, kuko ari ingenzi, bigiye kubafasha, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umugabo ushobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe ari gukora ibintu bitangaje abyina ibintu bitangaje, akora hasi yamanitse amaboko ayandi yafatishije hasi bigaragara ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umumama ucuruza imiti ya gakondo ikoze mu bimera gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye ndetse irinda n'indwara zigiye zitandukanye, ifasha abantu kugira ngo babeho neza batarwaye cyangwa n'abarwaye ibakize indwara zigiye zitandukanye.

Urutonde rw'ibitaro byo mu Rwanda bifasha abantu bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe naho bigiye biherereye kugira ngo buri muturarwanda wese abashe kuba yamenya aho yagana mu gihe agize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo wicaye ahantu muri rigori, ukenyeye igitenge, urwaye uburwayi bwo mu mutwe, ufite ibishashi, ibicupa, ibibido n'ibindi bintu byinshi yagiye atoragura hirya no hino hagiye hatandukanye.

Umugore unezerewe uri kwerekana uburyo amenyo yiwe asa neza kandi ari ku murongo, bitewe n'uburyo yagiye ayitaho akoresha imiti myiza y'amenyo, ndetse agakoresha n'imiti yo kuyarinda kuba yarwara indwara zigiye zitandukanye.

Umuganga uri kumwe n'umusaza, ariko mureba mu kanwa, areba ikibazo iryinyo rye rifite, kugira ngo arikure niba hari ikibazo rifite, cyangwa abe yamuha imiti imworohereza ububabare, cyangwa amuhomere iryo ryinyo.

Umugabo uri kwerekana akanwa kiwe, afite umugozi ari guhanagura amenyo yiwe, yerekana akamaro ko guhanagura amenyo yiwe buri munsi, kugira ngo akomeze gusa neza kandi akomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuganga n'umwana n'abandi bantu bari inyuma yabo, umuganga afite igishushanyo cy'amenyo, umwana ari we ugifashe mu ntoki, amwereka uburyo yakoresha uburoso asukura amenyo y'iwe kandi neza.

Igishushanyo cyafashwe na sikaneri kigaragaza uburyo amenyo y'umuntu atondetse ku murongo, yaba ay'imbere n'ay'inyuma, kugira ngo bamenye aho uburwayi buri, babashe kuba bamuvura amenyo yiwe amere neza, agume kubaho afite amenyo meza afite ubuzima bwiza.

Abana bishimye bambaye uniforme bafite amazi mu dukombe n'uburoso bari kwigororosa basukura amenyo yabo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse agume asukuye bibarinda indwara zo mu kanwa zijye zitandukanye.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi uryamye ku gitanda bavuriraho amenyo, umuganga ari gukorera umurwayi we umugozi azajya yifashisha mu gusukura amenyo, kugira ngo akomeze kugira amenyo meza kandi asukuye adafite uburwayi.

Umwana ukiri mutoya wishimye ufite uburoso mu kiganza, witeguye kuborosa amenyo yiwe, neza kugirango agume asa neza, kandi ayarinde indwara ziterwa no kutayakorera isuku bihagije, kuko amenyo ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Muganga n'umurwayi bari mu cyumba cyo kwa muganga, umuganga yambaye yikwije yambaye n'agapfukamunwa umurwayi aryamye ku gitanda umuganga ari kumukura iryinyo rirwaye kugira ngo ububabare yari afite bugabanuke ndetse abashe no gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Abana bari kugaragaza uburyo wakwita ku menyo yawe kugira ngo agume ameze neza adafite uburwayi, biboshesha amazi meza ndetse n'umuti wabugenewe kugira ngo amenyo yabo ahore asa neza kandi adafite uburwayi.

Abagore batatu bishimye, bari gukina umukino w'amakarita, umwe muri bo arashaje cyane, bari kugira ngo babashe kuguma kumuha icyizere cy'ubuzima, yumve ko na we agifite igihe cyo kubaho.

Umugore ugeze mu za bukuru uri kumwe n'umuforomokazi umwitaho, bishimye amuganiriza abashaka kumugarurira icyizere cy'ejo hazaza, amubwira n'uburyo agomba kwiyitaho kugira ngo abashe kurama imyaka myinshi kandi afite ubuzima bwiza.

Umugore ugeze mu zabukuru wishimye, uri kumwe n'umuforomokazi wiwe umwitaho, ufite icyizere cy'ubuzima nuko ageze mu za bukuru, ari ukubera bamwitaho bihagije, afite icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza nubwo ageze mu zabukuru.

Umuforomokazi uri gufasha umukecuru ugeze mu za bukuru kunywa imiti, amwereka ingano y'imiti agomba kunywa n'igihe agomba kuyinywera, n'icyo agomba kwifashisha anywa iyo miti kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abasaza bageze mu zabukuru bicaye bari gukora uturimo tw'amaboko tugiye dutandukanye banaganira kugira ngo batabona umwanya wo kwitekerezaho babe bakitakariza icyizere cy'ubuzima ahubwo bagume bafite ibibahuza.

Umugore ugeze mu za bukuru urwaye indwara zifata abantu iyo bageze mu za bukuru, uri kwitabwaho n'umuforomokazi anamuganiriza kugira ngo amugarurire icyizere cy'ubuzima amwereka ko nubwo ashaje atagomba kwiheba icyizere cy'ubuzima kigihari.

Umukecuru ufite igipfuko ku jisho rye kugira ngo kirinde imyanda yakwinjira mu jisho rye, n'imiti bamushyiriyemo kugira ngo ibashe gukora neza, indwara bari kumuvura ibashe gukira akomeze kugira ubuzima bwiza areba neza nta kibazo.

Abaganga batanu bambaye bikwije bari mu cyumba cy'ibagiro, bari kubaga uburwayi kugira ngo bamusimburize urugingo rurwaye bamuhe urugingo ruzima, abashe kubaho neza kandi yishimye.

Itangazo ry'igikorwa kigamije kurengera ubuziranenge bw'imiti, kizaba tariki ya makumyabiri n'eshatu gicurasi, guhera saa munani kugeza saa kumi n'ebyiri z'umugoroba, aho iki gikorwa kizaba kigamije kurengera ubuziranenge bw'imiti.

Itangazo ku bukangurambaga ku ndwara ya SIDA mu rubyiruko, buzaba tariki ya makumyabiri n'icyenda Nyakanga ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, mu masaha agiye atandukanye bitewe n'aho umuntu agiye ari, aho buzaba hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga buzwi nk'iyakure.

Inzu y'ibitaro yanditseho Nyarugenya disitirikiti hosipito, imbere yaho hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti, buzanira abarwayi umwuka mwiza, bikabafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Inzu y'ibitaro ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo ibiti bizanira umwuka mwiza abarwayi, ndetse n'aho abarwayi baza kuruhukira igihe bumva barambiwe kuba barimo imbere mu bitaro bakaza gufata umuyaga wo hanze.

Umuganga uri mu cyumba cy'ubuvuzi, yambaye itaburiya ari gukoresha imashini ikoreshwa bari gupakira imiti n'abandi bantu bari hirya bari kureba, iyi mashini igaragaza uburyo ubuvuzi bumaze gutera imbere ku rwego rushimishije.

Icyumba cyo kwa muganga abarwayi barwariramo, n’ibikoresho bifashisha bavura abo barwayi, umuganga agenda azenguruka mu barwayi, abaza uko bameze, ndetse anabandikira imiti igomba kubafasha kugira ngo bakire vuba, bakomeze kubaho ubuzima bwiza kandi bishimye.

Inzu y'ibitaro, icyumba kimwe kirimo abarwayi bagiye batandukanye n'abaganga bambaye bikwije, bigaragara ko bari kuvura indwara ya korona virusi cyangwa indi ndwara yandura, bari kwita ku barwayi babongerera umwuka, banabafata ibizamini ngo barebe uko uburwayi bwabo buhagaze.

Inyubako icururizwamo imiti izwi nka farumasi, hari umumotari n'umugenzi baje kugura imiti, igaragaza n'ubwishingizi bakorana nabwo aribwo MEDIPLAN, RAMA n'ubundi bugiye butandukanye, ifite icyapa kigaragaza amazina yayo na nimero za terefone wababoneraho igihe ubakeneye.

Inyubako itangirwamo serivisi zo kwa muganga zigiye zitandukanye n'ubusitani bwiza buri imbere yayo, buzanira abarwayi umwuka mwiza bahumeka banicaramo igihe baje gufata imiyaga yo hanze, igizwe n'ibyumba bigiye bitandukanye abarwayi barwariramo, bitewe n'uburwayi barwaye.

Icyumba kiri mu nyubako y'ibitaro, cyifashishwa n'abarwayi mu gihe barwaye, harimo ibitanda byiza bigiye bitandukanye, abarwayi babasha kuruhukiraho mu gihe bari gukurikiranwa n'abaganga.

Inyubako y'ibitaro iriho abantu bagiye batandukanye, abagore baje kuvuza abana babo, abantu baje kwivuza ku giti cyabo n'amamodoka abafasha mu kugemura imiti no kujyana abarwayi ku bitaro begeranye cyangwa kubakura ku bitaro begeranye, babazana ku bitaro byabo kugira ngo babafashe.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'abana, harimo igitanda umwana aryamaho kugira aruhuke igihe aryamye n'intebe umurwaza we yicaraho, ku gikuta huzuyeho ibishushanyo by'abana, bibasha gushimisha abana n'iyo baba barwaye.

Inzu y'ibitaro iriho abantu umubyeyi n'umwana n'undi mwana uri imbere yabo ufite akabase ugiye kumena imyanda ikikijwe n'ubusitani bwiza buteyemo ibiti buzanira abarwayi umwuka mwiza wo guhumeka.

Muganga uri gutegura igitanda baryamaho, bagiye guca aba mashini yimyeru, ikoreshwa mu gutanga imirasire ku barwayi kugira ngo igihe cyose umurwayi ari buzire aze guhita aryama kuri icyo gitanda bamufashe.

Inyubako itangirwamo serivisi zose zijyanye n'ubuzima kugira ngo abaturage babashe kwitabwaho mu gihe hagize ugaragarwaho n'uburwayi cyangwa ikindi kibazo cyose, kijyanye n'ubuzima kugira ngo abaturage bagire ubuzima buzira umuze, babashe kubaho ubuzima bwiza butagira indwara kandi babeho bishimye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini z'ubururu, zifashishwa mu gufasha abantu bafite ibibazo byo kugira umwuka muke, zibongerera umwuka kugira ngo babashe gukomeza kubaho kandi neza.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri uri kunywa amazi kugira ngo amufashe kuko amazi ari ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse no mu mikorere y'umubiri wacu cyane cyane iyo umuntu ari mu myitozo ngororamubiri arafasha.

Umugabo wambaye imyenda bambara bari mu myitozo ngororamubiri afite n'umupira yakinaga, imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane mu buzima bwacu kuko iturinda indwara zigiye zitandukanye ndetse ikadufasha no kugira ubuzima bwiza.

Umusore ukiri muto uri mu myitozo ngororamubiri, cyane cyane iyo kugorora amaboko, kuko imyitozo ngororamubiri ari ingenzi mu buzima bwacu, iturinda indwara ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye byagera ku buzima bwacu.

Umukobwa wicaye ku buriri, ari gupfuka igisebe cyiwe neza, kugira ngo akirinde ko cyageramo imyanda, kikaba cyamuteza n’izindi ndwara, ndetse cyangwa mikorobe akaba yakinjiramo, akaba yamuteza izindi ndwara zagiye zitandukanye.

Umukobwa ukiri muto wambaye imyenda ya siporo, ari gukora imyitozo ngororamubiri agerageza kwicara hasi agakora ku kuguru kw'iwe kandi yicaye kuko imyitozo ngororamubiri ari ingenzi mu buzima bwacu.

Umugore wishimye uri mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari imbuto zigiye zitandukanye arizo pome, amaronji, imineke n'ibindi, aribuze gufata igihe araba asoje gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuganga wambaye itaburiya y'akazi uri kumwe n'umurwayi, afashe akaguru k'iwe arimo aramusuzuma kugira ngo amenye ahari uburwayi, amenye uburyo ari bumuvuremo, kwisuzumisha ni ingenzi kugira ngo umenye uko umubiri wawe uhagaze.

Umugabo wambaye imyenda y'abaganga, uri gufasha umugabo ugeze mu za bukuru gukora siporo zigiye zitandukanye, zo kunanura amaboko kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Imashini ikoreshwa mu buvuzi bareba imbere mu mubiri w'abantu, kugira ngo babashe kureba indwara zigiye zitandukanye umuntu arwaye, babe bamenya uko bamufasha, ndetse bamenye n'imiti bifashisha kugira ngo bamuvure izo ndwara zitandukanye.

Umugabo wambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri. Ari kunywa amazi meza asukuye kuko ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane cyane iyo umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, kuko atuma amaraso atembera neza mu mubiri wacu.

Umuganga uri guha umukinnyi imiti imwohereza aho yavunitse mu kiganza kugira ngo akomeze gukina cyangwa nabona bikabije abe yamukura no mu kibuga, ubuzima bwiwe bakomeze kubwitaho, kugira azabashe gukomeza umukino wiwe amahoro.

Muganga uri gufasha umurwayi wagize ikibazo cyo kuvunika mu ivi akoresheje ibikoresho byo kwa muganga bigiye bitandukanye, kugira ngo umurwayi abashe kuba yakira cyangwa yoroherwe akomeze ubuzima bwe bwa buri munsi nkuko bisanzwe.

Umuganga uri gukoresha umugore siporo zirambura amaguru kugira ngo amaguru yiwe abashe kugenda neza, ndetse n'imvune zirimo zibashe koroha, zinakire burundu, abashe kongera kugenda neza nk'abantu bose nk'uko bisanzwe.

Abakinnyi b'umupira wa Rugubi bakina bakoresheje amaboko, aho umwe muri bo afite umupira abandi babiri bari kugerageza kumwataka kugira ngo barebeko bawumwaka bakabasha gutsinda ibitego.

Ibimera bitandatu byo muri Afurika byifashishwa mu kugabanya ibibazo by'isukari nyinshi mu mubiri n'ibibazo ibyo bimera bigabanya, ibi bimera ni ingenzi cyane kuko byifashishwa no mu gukora imiti igabanya ubukana bw'indwara yo kugora isukari nyinshi mu mubiri.

Igikombe kirimo uburoso bubiri bw'amenyo, iruhande rwacyo hari umuti wifashishwa mu gusukura amenyo ukozwe mu bimera gakondo, kugira ngo birinde amenyo yacu kuba yakangirika.

Igiti cy'umuzabibu gifite amababi y'icyatsi cyifashishwa mu gukora imiti myinshi igiye itandukanye, ivura indwara ndetse n'irinda indwara zigiye zitandukanye zigenda zigera ku bantu.

Ifu y'icyatsi kibisi iri mu gikombe cy'umweru, iyi fu ni ingenzi cyane kuko ari umuti ukomeye wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye nko kudatembera neza kw'amaraso mu mubiri, n'izindi nyinshi.

Umuntu ufite umuti gakondo uri mu gipapuro, ari gukoramo ngo yimve nimba uwo muti useye neza kugira ngo babashe kuba bawuvurisha abantu barwaye indwara zigiye zitandukanye cyangwa babashe kuba bawuha abantu kugira ngo babarinde indwara zitandukanye.

Imiti igiye itandukanye, ikozwe mu bimera gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu, no mu kwirinda indwara z'uruhu, kugira ngo abantu bakomeze kugira uruhu rwiza rutemba itoto ruzira ibiheri n'amabara.

Ibiti byiza by'icyatsi biri ahantu ku musozi ndetse n'ibyatsi byimejeje, bigaragara ko bishobora kuvamo imiti gakondo yadufasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye cyangwa kurinda indwara zigiye zitandukanye.

Ikiyiko k'imiti kirimo ibinini binini by'icyatsi bya sprine n'ibindi byandagaye hasi, ibi binini ni ingenzi ku buzima bwacu, kuko bidufasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi bigiye bitandukanye, ndetse n'ibyatsi byo hasi bya kimeza, ibiti ni ingenzi ku buzima bwacu, kuko bidufasha mu kutuzanira umwuka mwiza duhumeka, no mu gukoreshwa mu miti igiye itandukanye ikoreshwa kwa muganga.

Umuti uri mu icupa ry'umweru uriho ikirangantego cy'ubururu cyanditseho forever arctic sea, ufasha abantu mu bijyanye n'imirire, abantu batagira ubushake bwo kurya ikabongerera ubushake bwo kurya, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza kuko imirire ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu.

Ikimera cya tungurusumu cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo n'inzoka ndetse no gukora imiti igiye itandukanye yifashishwa kwa muganga, abandi bagakoresha iki kimera mu gihe batetse ibiryo kuko gihumuza ibiryo kikanabiryoshya.

Ipapayi ebyiri, imwe iciyemo iri kugaragaza imbuto zirimo mo imbere z'umukara n'indi yuzuye neza, ipapayi ni ingenzi, kuko yifashishwa mu kuvura indwara z'impatwe ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Igiti cyitwa umuravumba giteye ahantu mu rugo kifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'inkorora, kugabanya isukari mu mubiri, kinafasha mu gukora imiti igiye itandukanye ikoreshwa kwa muganga.

Imiti iri mu ducupa ya gakondo n'ahantu igenda yifashishwa mu kuvura hajya hatandukanye mu mubiri ari ho mu mavi, mu maboko, mu mugongo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, iyi miti ni ingenzi cyane kuko yifashishwa mu kugabanya ndetse no mu kuvura ahantu hari ububabare hagiye hatandukanye mu mubiri.

Ikimera cy'icyatsi giteye ahantu mu ishyamba, cyifashishwa mu gukora imiti itandukanye y'indwara zitandukanye ndetse n'imiti yifashishwa mu kurinda indwara zigiye zitandukanye, ibimera ni ingenzi kuko bidufasha mu gukora imiti igiye itandukanye.

Tangawizi ikimera gakondo kifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye no gukora imiti ivura izo ndwara arizo inkorora, ibicurane n'izindi ndwara nyinshi zigiye zitandukanye, abandi bakakifashisha mu guteka icyayi kiryoshye kandi kimeze neza.